Inzu isakajwe amabati yiganjemo ibara ry'umutuku ikaba ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari umumama wikoreye igikoresho cyo kuvomeramo gipfundikije umufuniko w'umutuku n'agatambaro mu mutwe yiteze.

Umuganga ufite imisatsi y'umukara isutse ikaba izirikiye hejuru, yambaye agapfukamunwa, umwambaro wiganjemo ibara ry'umweru akaba ari gutera urushinge ku kuboko umurwayi, iruhande rwe hakaba hari intebe ikoze mu biti.

Ahantu hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe muri bo bakaba bahagaze abandi baricaye, imbere yabo hakaba hari amashami y'igiti, umwe muri bo yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'inkweto z'umukara.

Inzu ihuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo igitsinagore n'igitsina gabo, muri make bose baricaye imbere yabo hakaba hateretse ameza hariho ibintu bigiye bitandukanye, nk'amazi n'imitako irimo n'indabo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hakaba hari abanyeshuri bambaye impuzankano, ifite ibara ry'ubururu n'umweru, bamanitse amakayi mu ntoki hejuru.

Abantu bateraniye hamwe harimo abaganga bari kuvura abarwayi umwe muri bo akaba yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umweru imbere ye hakaba hateretse imiti iri mu dukarito igiye itandukanye hiyongeyeho undi wicaye iruhande rwe.

Inzu isize irangi ry'umweru ikaba yanditseho amagambo asa ubururu, iruhande rwayo hakaba hari ibiti birebire biyisumba hiyongeyeho abantu bambaye umpuzankano w'akazi wiganjemo ibara ry'ubururu bahagaze, umwe muri bo akaba ateze amaboko bari imbere yayo.

Inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara ku nkuta. Ikaba ihuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye umwe muri bo akaba ari umugore wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere ye hakaba hari ameza ariho ibikombe bikozwe n'umuroma.

Ahantu hahuriye abantu benshi bari mu gitsina gabo n’igitsina gore bahagaze umwe muribo aka afite imisatsi y'umukara yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu imbere yabo hakaba hahagaze abana benshi bambaye impuzankano.

Umuntu w’igitsina gabo ufite imisatsi y'umukara yambaye umwenda urimo ibara ry’icyatsi imbere ye hari umugezi arimo gukaraba intoki hiyongeyeho n’indobo isa ubururu inyuma ye hari ishyamba rikikijwe n’ibiti byinshi

Abantu benshi bicaye mu ntebe, imbere yaho hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, ku ruhande rwe akaba hari ibishushanyo biri ku rukuta.

Abaganga bambaye impuzankano w'akazi uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, imbere yabo hari umuntu wicaye ku ntebe isa ubururu, wasamye bari kumutamika umuti mu kanwa.

Inzu yubakishijwe amabuye ikaba isize irangi ry'umweru, ifite urugi ruri mu ibara ry'icyatsi, imbere yaho hakaba hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, umwe muri bo akaba ahetse umwana, umutwikije igitambaro cy'umweru.

Inzu yisize irangi ry'umweru n'umukara hejuru, ikaba yanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye impuzankano.

Inzu isize irangi ry'ubururu n'umweru, imbere yayo hakaba hahagaze abantu bagiye batandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo ndetse n'umuganga wambaye impuzankano uri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hateye icyatsi.

Inzu ifite urukuta rusize irangi ry'umweru, heju yacyo hakaba hamanitse idarapo rifite ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi, hiyongeyeho abantu bicaye babiri batandukanye, umwe muri bo akaba yambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze biganjemo abana, umwe muri bo yambaye umwenda usa umweru, n'uturongo tw'ubururu, umumama urimo yambaye ibimufasha kureba ndetse n'umwambaro we urimo amabara y'umuhondo.

Ivomero rihuriyeho abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abana ndetse n'abakuru, umwe muri bo akaba yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, rikaba rikikijwe n'ibyatsi byumye ndetse n'ibitoshye, hiyongeyeho n'amabuye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba kiriho ibimenyetso bigiye bitandukanye, kimwe muri byo kikaba kiriho inuma iri kuguruka ifashe ku byatsi, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umwana wambaye umupira w'umweru akaba yikoreye ukuboko, ukundi gufashe no ku matama kandi arimo ararira. Inyuma hakaba hari umuntu utwaye buri kwimuka kuko n'umwana uri imbere ye.

Ahantu hahuriye abantu benshi harimo abana n'umukecuru bicaye ku musambi akaba yambaye agatambaro mu mutwe gasa umutuku iruhande rwe hakaba hari umwana uri kurya urutoki hiyongeyeho undi wifashe ku matama.

Icyapa gisize irange ry'umutuku uterurutse cyane hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ubururu, imbere yacyo hakaba hahagaze abantu bagiye batandukanye barimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umukara.

Ahantu hahuriye abantu benshi bari gukora igikorwa cyo kwamamaza ndetse bafite utudarapo mu biganza byabo batumanitse hejuru, umwe muri bo ni umwana uri guseka wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugore ufite imisatsi yumukara izingiye inyuma yambaye ibimufasha kureba. Imbere ye harambitse indangururamajwi ebyiri ziteretse ku meza ikoze mu biti isize irangi ryumweru nubururu. Imyenda yambaye yiganjemo ibara rijya gusa nkicyatsi.

Inzu isize irangi ry'umweru kurukuta hakaka hamanitse ifoto y'umuntu, ikaba ihuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore abagabo bo muri bo barahagaze abandi barasutamye.

Abantu bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, umwe muri bo akaba afite imisatsi y'umukara isutse, yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umukara, ibiganza bye bikaba bifashe ku ikayi, iruhande rwe hakaba hari ibiti byegetse byumye.

Umukobwa ufite imisatsi myiza miremire y'umukara, ikaba ipfutse amatwi, ndetse ari guseka amenyo ye ari kugaragara ni umweru mwiza cyane, imbere ye hakaba hari ikiganza gifashe icyinyo.

Umuganga wambaye ifasha kureba ndetse n'agapfukamunwa imyambaro ye yiganjemo ibara ry'umweru, ku kuboko kwe yambaye agakomo ndetse ari kuvura umuntu wasamye ufite imisatsi y'umukara.

Ahantu hateraniye abantu benshi bahagaze, harimo abaganga bambaye umpuzankano uri mu ibara ry'umweru, bakaba bari gupima abantu ibiro, inyuma yabo hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire, hiyongeyeho n'ubusitani.

Inzu ifite urukuta rumanitseho icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere yaho hakaba hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe bahagaze, abandi bicaye, umwe muri bo yambaye umwenda urimo ibara ry'umweru ndetse n'imfasha kureba

Abantu babiri bahagaze, umwe ni igitsina gabo, undi ni igitsina gore, akaba afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye umupira w'umweru, akaba ari guseka, imbere ye hakaba hari icyuma gihashinze.

Umuntu ufite imisatsi miremire y'umukara yambaye ifasha kureba, ndetse umwambaro we wiganjemo ibara ry' ikiganza cye kikaba gifashe umuti imbere ye hakaba hari ameza akozwe mu birarahuri.

Inzu yometseho amakaro ku bikuta, hakaba harimo umuntu umwe uhagaze yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru, ikiganza cye kikaba gifashe ikirahuri kirimo amazi ikindi gifashe imiti.

Igikuta kiriho amatafari ahiye imbere yacyo hakaba hagaze abantu biganjemo abana, abakuru, umwe muri bo akaba afite imisatsi y'umweru yambaye umwenda urimo iryo bara ndetse n'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umweru, ikaba ifite n'inkingi imbere, hicaye abantu bagiye batandukanye b'igitsina gabo, umwe muri bo yiteze igitambaro mu mutwe, yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hari utwatsi.

Abantu babiri umwe ari umusaza ugeze mu za bukuru, undi akiri muto ari kumufasha kugenda, akaba yambaye amarore n'agapfukamunwa, bakaba bari mu nzu bari gusohoka hanze.

Inzu ifite amadirishya arimo ibyuma, ikaba irimo ibitanda bigiye bitandukanye hakaba hahagazemo abantu umwe muri bo akaba yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru n'umukara afite imisatsi y'umukara, undi akaba ahagaze amaboko ye afashe ku byuma.

Inzu isize irange ry'umweru ku gikuta hakaba hariho n'igishushanyo, iteraniyemo abantu babiri bicaye ku meza bari kurya, umwe muri bo afite imisatsi y'umweru yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, ikiganza ke kikaba giteruye isahani.

Inzu isize irangi ry'umweru ku rukuta ikaba irimo abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo ari aye ibiganza by biri imbere kimwe muri byo gifashe igikombe gikozwe mu kirahure giteretse ku meza.

Inzu isize irange ry'umweru, ikaba irimo ameza akozwe mu byuma, ateretseho ibikoresho bakoresha bateka, hakaba harimo n'abandi bantu bagiye bahagaze harimo umwana b'abamama, umwe muri bo afite imisatsi isutse ndetse yambaye ibifasha kureba, arimo aranaseka.

Inzu ifite urukuta rusizwe irangi ry'umweru, imbere yabo hakaba hari akabati kariho imitako, harimo abantu babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, umwe muri bo akaba afite urupapuro mu ntoki ze.

Inzu ifite inkuta zisize irange risa umweru, hejuru hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo ni mugore wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'ubururu n'imisatsi izinze. Imbere ye hahagaze undi mugabo, ufashe ku byuma, umwenda we wiganjemo umweru n'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, umwe muri bo akaba ari umuganga wambaye imfasha kureba ndetse n'agapfukamunwa kari munsi y'akananwa. Imbere ye hakaba hari abarwayi arimo kuvura, umwe muri bo akaba afite imisatsi y'umukara myiza cyane, umwambaro we wiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Igorofa ndende isize irangi ry'umweru, ikaba ifite ibirahuri mu madirishya, imbere yayo hakaba haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye hiyongeyeho n'umuntu wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umutuku.

Inzuifite urukuta rusize irangi ry'umweru, rukaba rumanitseho insakazamashusho, mo imbere hakaba harimo ameza akozwe mu biti, azengurutswe n'intebe zikozwe mu byuma asize irangi ry'umukara.

Inzu isize irangi ry'umweru , ku nkuta ikaba ifite amadirishya arimo ibirahuri, ikaba ihuriyemo abaganga bagiye batandukanye, bambaye umpuzankano iri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hari icupa ripfundikiye riteretse ku meza akozwe mu biti.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zifite inkingi zisizwe irangi ry'umweru, imbere yazo hakaba hari inzira yagenewe abanyamaguru hiyongeyeho n'ubusitani buhateye burimo ibyatsi byiza.

Inzu isize irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati yiganjemo ibara ry'ubururu, ndetse n'amadirishya ariho ibirahuri, imbere yaho hakaba hateretse ikigega kijyamo amazi, hiyongeyeho n'ubusitani burimo igiti cy'umuheba.

Inzu ifite urukuta rusizwe irangi ry'umweru, imbere yarwo hakaba hari indobo isa umuhondo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe zikozwe mu byuma, ndetse n'izikozwe mu biti.

Inzu ifite amadirishya arimo ibirahuri ndetse n'inkuta zisizwe irangi ry'umweru, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza akozwe mu byuma ndetse n'intebe ziri mu ibara risa umukara.

Inzu isize irangi ryumweru ku rukuta hejuru hari itara riri kwaka, ihuriyemo abantu umwe muri bo yicaye ku ntebe yambaye umupira w'umutuku, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa iri kumeza hiyongeyeho n'mazi apfundikiye neza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite inkingi isize irange ry'umweru, isakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yayo hakaba hari indi nzu hiyongeyeho n'igiti kirekire kiyisumba, imbere yayo hari inzira yageneye abagenzi n'ubusitani busa neza.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe irangi ry'umweru ndetse n'amabati asa ubururu ayisakaye, imbere yaho akaba yateye ubusitani bwiza ndetse n'inzira yagenewe abanyamaguru.

Inzu isizwe irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu butijimye yanditseho amagambo agiye atandukanye asa umweru, imbere yayo hakaba hari intebe ikozwe mu byuma hiyongeyeho n'amatara ari hejuru ari kumurika.

Amagorofa maremare yubakishijwe amatafari ahiye akaba afite amadirishya arimo ibirahuri, imbere yayo hakaba hari inzira yagenewe abanyamaguru, hiyongeyeho ubusitani buteyemo indabo.

Igorofa isize irangi ry'umweru hasi, hejuru ubururu, ikaba ifite imiryango n'amadirishya arimo ibirahuri, imbere yaryo hakaba hari abantu bahagaze, hiyongereyeho n'ubusitani bufite ibyatsi byiza, inyuma hakaba hari umunara muremure ukoze mu byuma.

Isahani yiganjemo ibara ry'umweru, ikaba iteretsemo amagi, inanasi, iruhande rwayo hakaba hari indi irimo imbuto zirimo; imineke n'inkeri hiyongeyeho inkangara irimo urusenda n'ibitunguru.

Umuntu wambaye umwenda wiganjemo amabara nk'ubururu n'umukara, akaba yicaye ku ntebe ikozwe mu byuma. Ikiganza cye kikaba gipfumbatije igikoresho kandi anafashwe ukuboko n'undi muganga wambaye umwenda w'umweru.

Ikiganza gifashe ikaramu kikaba kiri kwandika ku rupapuro rw'umweru, imbere yacyo hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo nk'isaha, icupa ry'amazi ripfundikije umupfundikizo w'ubururu ndetse n'urubuto.

Umukobwa uhagaze ufite imisatsi y'umukara akaba ari kunywa amazi akoresheje ikiganza cye yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara imbere ye hakaba hari ibyatsi bigiye bitandukanye bisa neza.

Umuntu ufite ubwanwa, akaba yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umweru, uri gukora umwitozo ngororamubiri, imbere ye handitse amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare mu ibara ry'umukara.

Inzu isize irangi ry'umweru, ku rukuta hakaba hariho imitako igiye itandukanye, ikaba inarimo intebe zikozwe mu biti n'izikoze mu byuma, harimo umuntu w'igitsina gore wicaye uri gukora siporo.

Inzu ifite urukuta rusize ibara ry'umweru rikaba rymetseho igishushanyo kiriho ibice by'umuntu, hakaba harimo abantu babiri umuganga n'uwo ari kuvura wambaye umuhuzankano ufite ibara ry'ubururu ikiganza cye kikaba gifashe ikirenge ikindi gifashe mu ivi ari kumugorora.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri wo kwiruka, yambaye umwambaro urimo ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi akaba afite imisatsi y'umukara, imbere ye handitse amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite urukuta rusize irangi ry'umweru, imbere yarwo hakaba hari ameza akozwe mu biti ari ibikarito bigiye bitandukanye ndetse n'ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru hiyongeyeho igikoresho kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuntu uri kuvurwa ikirenge, akaba yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'uturongo duciyemo, muri make yicaye no hasi, imbere ye hakaba hari umumama wambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu, ari we uri kumuvura.

Inzu imanitsemo inzitiramibu iri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo uburiri buriho abantu bagiye batandukanye, bamwe bararyamye abandi baricaye, harimo umwana uri guseka wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umweru.

Abantu bari gukora umwitozo ngororamubiri wo kwiruka, umwe muri bo akaba yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'ubururu n'umukara ikiganza ke kikaba gifashe icupa ry'amazi ripfundikiye, iruhande rwe hakaba hari ibyatsi byiza.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye kikaba gisizwe irangi ry'umweru, imbere yacyo hakaba hari umuntu ufite imisatsi miremire yambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umukara uri gukora umwitozo ngororamubiri.

Ibikapu bibiri biteretse hasi, bikaba bifite ibara ry'umutuku, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hicaye abantu, hiyongeyeho abandi bari ku ruhande, umwe muri bo akaba yambaye umwenda usa umuhondo.

Umurima muremure uteyemo ibihingwa ukaba urimo abantu bagiye batandukanye umwe muri bo akaba ahagaze yambaye igitambaro mu mutwe n'ibitenge abandi batatu bakaba bunamye umwe yambaye umwenda usa n'ubururu.

Ibiganza by'umuntu biri gucucuma ibyatsi biri mu gikoresho gikozwe mu ibumba kikaba kirambitse ku musambi. Imbere yacyo hakaba hari amasahani agiye atandukanye, imwe muri zo ikaba irimo ibijumba, indi irimo amakara, hiyongeyeho n'ururabyo rurambitse kuri uwo musambi.

Ikirago kirambitseho ibintu bigiye bitandukanye, harimo udutebo turimo imbuto nk'intoryi, amateke n'ibindi, hakaba harambitseho n'amasaka, iruhande rwaho hakaba hariho imyumbati.

Umuntu wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'icyatsi, ibiganza bye uko ari bibiri karufashe ku munwa w'igitebo, kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye bitoshye, ndetse n'imi, iruhande rwe hakaba hateretse utubuye.